Abakozi bakora mu bitaro cyane cyane abakora mu byumba by'ibizamini baba basabwa kugira isuku ndetse no kwitondera ibikoresho byo muri ibi byumba mu rwego rwo kwirinda ndetse no kurinda ibi bikoresho kwangirikara.

Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guha abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza ifu yitwa ongera, ibi ni bimwe mu byo Leta yiyemeje mu rwego rwo kurwanya imirire mibi.

Abakora ubucuruzi bw'imiti ivura abantu ni bamwe mu bafitiye igihugu ndetse n'abaturage akamaro. Ibi bifasha umuturage kwivuriza hafi mu gihe atarembye bikomeye cyane.

Abakozi bakorera ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, barakangurira urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange gukoresha agakingirizo neza, mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina nka SIDA ndetse n'ibindi.